Ipombo igikoresho cyifashishwaga mu gufuhera imyaka barimo kuyitera imiti. Aka gakoresho nk'uko kagaragara umuntu uri kugakoresha ari gufuhera ururabo, kugira ngo arurinde kuba gwakwangizwa n'udukoko dutandukanye.

Ipombo, igikoresho cyifashishwa mu gufuhera imyaka, ahanini ikunda kwibasirwa n'udukoko nk'inyanya, imboga zitandukanye zirimo za karoti, ibibiringanyi n'izindi nyinshi, ikaba yifashishwa batera umuti kuri izo mbuto.

Urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano go mu mazi arirwo rwitwa polisi, marine cyangwa se urwego rw'igihugu rukorera umutekano warwo mu mazi, bakaba ari abapolisi ahanini bakunze kurwanira mu mazi cyangwa se gutabara abahuriye n'ibibazo mu kiyaga, by'umwihariko mu kiyaga ca kivu.

Ifunguro riteguranye isuku ifi, inyanya ndetse n'indimu, ndetse n'imboga za sarade. Zikaba ari ifunguro ritegugwa kugira ngo umuntu, cyangwa se umubiri g'umuntu gugire ubuzima bwiza. Kuko imboga mbisi za sarade zituma umubiri, ubona intungamubiri zuzuye.

Uburobyi imwe mu mishinga cyangwa imirimo yunganira iterambere ry'igihugu ikorerwa ahantu h'ibiyaga bigari Ruhondo, Burera ,Kivu ndetse n'andi hatandukanye mu gwanda ikaba yifashishwa mu buryo butandukanye hari abifashisha imitego ndetse n'ubundi bujyo butandukanye kugira babone amafi.

Ubworozi bw'amafi bukorerwaga ahatu h'ikiyaga aho bashiraga ibikoresho byabugenewe mu kiyaga, noneho bagashiramo amafi gakabamo bitabangamiye n'agandi mafi gari mu kiyaga. Akaba ari uburyo bwiza butuma amafi akura mu buryo bwihuse, kuko gaba gakoresha amazi adasanzwe g'ikiyaga.

Amafi gashizwe mu mashashi, kugirango gadatakaza umwimerere wago, gakaba gabora cangwa ibyo bamwe bita gusaza, gakaba gashizwe mu mashashi, bakagashira muri firigo, kugira ngo ubukonje bugume buri hasi ataza kuzamo bushuhe, gakagaga.

Amafi avuye muri firigo, yo aba amaze igihe kinini cyane ari muri firigo, akaba yarajeho barafu cyangwa twakwita nk'urubura， bayashyiramo kugira ngo ataza kugira ikibazo cyo kuba yabora.

Ifi iteguye mu buryo bwiza cane zikunda gusangwa ahantu h'amaresitora cangwa h'amahoteli kuko ziba ziteguwe mu buryo bwo kuresha abakiriya ahanini zikaba zinahenze ugereranyije n'igiciro cya nyacyo baziguzeho.

Ubwoko bw'amafi yorogwaga yororegwa mu ruzi cangwa se mu kiyaga, kugira ngo atange umusaruro wisumbuye cane ko aya mafi gabaga garakozwe mu bujyo bwa aritifisho cangwa se mu bujyo bw'ubuhangano, kugira ngo gatange umusaruro mwinshi ugereranyije n'amafi karemano cangwa se Imana yaba yararemye.

Icuzi kibagamo amafi abatu bakaja baroba. Akenshi bikunda gutegwa n'uko aba ari amazi gari gutemba ndetse ugo mugenda cangwa se ico cyuzi kigiye hasi mu bujakuzimu, bityo bikaba byorohereza amafi n'amahera kuba gatembera mw'ico cyuzi.

Ibyatsi cangwa se igihingwa ca kameruni, bikaba ari ibyatsi bitegwaga mu nkengero z'umurima, kugira ngo amatungo gazabirye. Bikaba ari ibyatsi kandi bituma amatungo gagira amata menshi ugereranije n'ibindi byatsi bizwi nk'ugwiri.

Umuntu wikoreye ibido y'amazi cyangwa ikijerekani uvuye gushaka amazi, ahanini bikunda kugaragara mu bice by'icyaro aho usanga abantu nta mazi bafite iwabo mu mazu, bakajya kuvoma nko mu ntera ya metero nka magana abiri, bakifashisha amabido kugira ngo batware amazi bavuye kuvoma.

Uruzitiro kikaba ari igikorwa gikorwaga kugira ngo harindwe cangwa se hakikizwe ikintu runaka. Bakaba bifashisha ibiti, imihembezo, cangwa ibikori, ndetse n'ibisigazwa by'imyaka bitandukanye. By'umwihariko, hari n'abakoresha amatafari mu bice byo mu mijyi kugira ngo birindire umutekano cangwa bakikize ibintu runaka.

Ibisazigwa by'ibigori cyangwa imyanda isigara igihe ibigori bimaze gusarurwa，ikaba irungwa ahantu hamwe， kugira ngo izatwikwe cyangwa se bazayishyire mu kiraro ivemo ifumbire.

Ubwoko bw'ibiti bizwi nk'imigano ,imigano zikaba zikunda kugaragara by'umwihariko mu gace ko mu Kinigi kuko ahanini no mu birunga ingagi zikaba zibikunda cane, ibiti by'imigano rero bikogwagamo intebe, n'utundi dukoresho dukoreshwaga mu rugo nk'inkoko n'ibindi byinshi cane.

Igihingwa ca voka kikaba ari kimwe mu bihingwa gihingwa hagamijwe kugira ngo gitange umusaruro w’avoka. Kiba ari mu bihingwa byiza cane, kuko gikungahaye ku mavuta. Ndetse, ahanini, voka iyo zihishije zijyanwa mu nganda, zikaba zatunganwamo amavuta atandukanye: yaba ayo, ukwisiga, cangwa se ayo kujya.

Igiti c'umwungo kikaba ari igiti ahanini kibazwagamo imbaho zitandukanye, cangwa kigakogwamo ibikoresho byo mu rugo birimo nk'intebe z'udutsitsi n'ibindi bitandukanye.

Imboga zizwi ku izina ry'imbwija. Zikaba ari imboga ziterwa ahantu h'igishanga, aho zivoma amazi cyane, ndetse zikaba ari n'imboga zikungahaye ku ntungamubiri, cyane nko ku bana bagize ikibazo cy'igwingira, akenshi bakunda gutegekwa kugaburirwa imboga z'imbwija.

igihingwa cy'imyumbati. Kikaba ari igihingwa gihingwa ahantu h'imisozi miremire ndetse hashuha cyane, kuko ahantu hakonja kidashobora gutanga umusaruro w'imyumbati. Uko bigaragara ahantu kiri hari n'ibindi biti bitandukanye by'amavoka, ndetse amavoka na yo akaba ari mu bihingwa birinda indwara.

Amajeri kimwe mu binyampeke bikunda guhingwa hano mu Rwanda cane mu duce tw'amajyaruguru ndetse no mu majyepfo. Akaba ari bimwe mu binyampeke biri byubaka umubiri kuko bikungahaye kuri poroteyine.

Ibihingwa bihinzwe ahantu h'urutoke, ibi akaba ari byo Leta y'u Gwanda ikundaga gushishikariza abaturage kuja baravanga imyaka, kugira ngo babone imisaruro myinshi kandi y'ibintu bitandukanye. Hasi hateye ibirayi, ndetse ibitoki hejuru na byo biriko birera.

Igihingwa c'ibirayi kikaba ari kimwe mu bihingwa bihingwaga ahantu hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere ka Musanze, mu gace kazwi nko mu Kinigi. Bikaba bihingwaga kugira ngo bitange umusaruro gw'ibirayi cane, ko ibirayi bikungahaye ku bitera imbaraga nk'ibinyamafufu, ndetse bikaba bikogwagamo ibindi bintu bitandukanye nk'amavuta.

Amoko y'ibiti azwi ku izina giturusu. Bikunda kuba ahantu h'imisozi miremire ndetse bikaba bizwiho ko ari ibiti，bigira imbaho nziza cane ndetse zikomeye.

Amatungo magufi gazwi nk'amahene gakaba ari amatungo gihariye mu gutanga inyama by'umwihariko zikunda gutekwa mu kabari zizwi nka burushete ndetse aya matungo akaba yororoka mu gihe gito cane ugereranyije n'andi matungo magufi.

Idegede cangwa se igihaza akaba ari ubwoko bw'imbuto buhingwa kugira ngo butange umusaruro w'ibihaza, ndetse bakaba bahinga utubuto tuba turimo imbere twitwa inzuzi. Igihaza kikaba cyihariye mu kuvura ingwara zitandukanye zirimo nko mu nda by'umwihariko igifu.

Abahinzi, hari abagore babiri bafite amasuka ku rutugu bagiye guhinga imyaka, abahinzi mu ijambo rimwe ry'ikinyarwanda ni umuntu uhinga imyaka.

Hari imbuto zitandukanye; kiminineke, ibinyomoro, amacunga, amaronji, n'inanasi ndetse n'ibindi bitandukanye... biri ahantu bigaragara ko ari ku isoko cyangwa se ahantu hashyirwa ibicuruzwa mu gihe bitarabonerwa abakiriya.

Abahinzi b'igihingwa c'imyumbati bateraniye mu murima, bari kuja inama ku bujyo banoza ubuhinzi bwabo bw'imyumbati kuko bigaragara bari ahantu hahinze imyumbati, baganira, bungurana ibitekerezo.

Umwuga wo kunoga icyayi .Ukaba ari umwuga gukorwaga n' anabantu batandukanye mu turere dutandukanye tw'igihugu by'umwihariko mu karere ka Rulindo .Aho abantu banoga icyayi bagenda baca amababi yo hejuru akiri matoto kugira ngo ajyanywe mu nganda atunganywemwo agafu k'icyayi.

Ubuhinzi bw'ibireti. Kikaba ari igihingwa gikunda guhingwa cyane ahantu h'ikibaya，by'umwihariko mu Kinigi. Iki gihingwa gikorwamo imiti yica udukoko, nk'uko，mubibona hari abahinzi barimo kugikorera isuku, abandi barimo kugisarura.

Ahantu bacururizaga ibintu byo kurya by'umwihariko imbuto ndetse n'ibindi byifashishwaga nk'amafu gifashishwaga gari gushigwa mu bijyo mu rwego rw'ibirungo, kuko bigaragara hari indimu ndetse na tangawizi zikoreshwaga bari gushira mu cayi, ndetse n'ibitunguru bikoreshwaga barimo gukaranga.

Igihingwa cy'ibigori igihe kiba cyiteguye kwera, cyangwa se kiba kimaze guterera, bivuga ngo icyo gihe kiba kimaze gusohora ibigori, gitegereje kugira ngo intanga z'ikigori zigwe ku misatsi yacyo, bityo kibashe kugira amasaro.

Ibihingwa bigaragara biri mo intogi, puwavuro, amacunga ndetse n'imiteja. Bikaba ari ibihingwa bifatwa nk'imboga cyane ko ahanini byunganira mu mirire nk'ibirinda indwara.

Guhinga ibirayi, kikaba ari igikogwa gikogwaga n'abantu batandukanye, bamwe bacira imyobo, abandi bagenda bashiramo ifumbire, hakaza n'abandi bagenda bashiramo ibirayi, hakaza n'abandi bagenda basiba ahantu bagiye baraca imyobo iteyemo ibirayi kugira ngo igikorwa kihute.

Abatu barimo gusarura igihingwa c'ibirayi. Aho bagenda bakoresha isuka bagakubita ahatu hari ikirayi bakakirandura, bityo bakabasha gufata ibirayi bihari noneho bakabihuriza hamwe bakabishyira mu mufuka, kugira ngo baze kubona uko babijana ku masoko gatandukanye hirya no hino mu Gihugu, cyane ko ibirayi bikundaga kuribwa n'abatu benshi mu Gwanda.

Umuntu urimo kwerekana umusaruro gw'igihingwa c'ibirayi aho yishimye bigaragara ko ico gihingwa c'ibirayi catanze umusaruro ku bujyo bugaragara kuko bigaragara ku ifoto arishimye ndetse afite n'ibihingwa by'ibirayi mu biganza bye.

Igihingwa c'inyanya, kikaba ari kimwe mu bihingwa bihingwaga mu Rwanda, kugira ngo bitange umusaruro, inyanya zikaba zikoreshwaga mu guteka, by'umwihariko zigatanga umusaruro, gutukuza ibiryo, cyangwa zikaribwa mu buryo bwa salade, zikaba zera zigasa n'umutuku, ndetse izitari zera zikaba ziba zisa nk'icatsi kibisi.

Igihingwa cy'indimu, benshi mu bahinzi bahinga imbuto zitandukanye, bakubwira ko igihingwa cy'indimu ari igihingwa cyihariye mu kuvura indwara zitandukanye zo mu nda. Ndetse ku bakobwa, abenshi bazikoresha kugira ngo bagabanye umubyibuho ukabije, bitewe n'uko indimu yifitemo ikinyabutabire gitwika amavuta.

Igihingwa cy'inyanya, kikaba ari igihingwa kijya kwitwara nk'ibirayi ariko cyo kerera hejuru, kikagira inyanya zisa nk'aho zitukuriye mu ibara ry'umutuku nk'uko bigaragara ku ifoto, hari umuhinzi uri kuzishyira mu bikoresho byabugenewe bizwi nk'imifuka, kugira ngo azijyane ku isoko, ndetse zikaba zifashishwa mu gutegura amafunguro.

Igihingwa c'amashu kikaba ari kimwe mu bihingwa bihingwaga mu gwego go gutanga imboga, kandi amashu gakaba gakungahaye ku mavitamine by'umwihariko iyo umuntu ayakoresheje ari salade cangwa se gadahiye neza.

Ipapayi jya kizungu rikaba ari ipapayi rigiraga ibipapayi binini cane ndetse bijyoshye, kandi bidasaba igihe kinini ngo byere ugereranyije n'agadi mapapayi g'amanyagwanda, rikaba ari ipapayi rijyohaga kurusha agandi gose, by'umwihariko rikaba riba ari rinini ndetse ritukurije cane.

Ighingwa cy'ibigori kikaba ari igihingwa gihingwa ahantu hatandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kikaba cyifashishwa mu gukora amafu atandukanye nka kawunga, ndetse no gukora ibindi bintu bitandukanye nk'imikati ,ndetse kikaba ari igihingwa kigira umusaruro mwinshi cyane ugereranyije n'ibindi bihingwa. Kikaba gisaba amezi atandatu kikaba cyeze.

Abantu barimo guhinga ku buso bunini, aha biragaragara ko barimo gukora amatarasi y'indinganire, cyangwa ibyo bita terasizi mu ndimi z'amahanga.

Ibijumba nabyo biri mu bihingwa bi biteraga imbaraga ,cane bihingwa mu duce tw'amajaruguru: Gakenke ,Gicumbi ,Musanze ,ndetse na Burera. Ariko bikabari ari bihingwa cane byera ahantu h'igishanga.

Igihingwa kitwaraga k'urusenda, ndetse kikaba kinahumura nk'urusenda. Kizwi nkapavuro kikaba ari igihingwa, gihingwaga kugira ngo gihumuze ibiryo ahanini. Kikaba gikunda gukoreshwa mu mwanya w'urusenda, ariko rudakereta cyangwa se rutaryana.

Ibihingwa cangwa se bimwe mu binyampeke birimo itogi, pwavuro ndetse n'imiteja. Zikaba zitekwaga mu gwego gw'imboga. Na ho indimu zikaba zifashishwaga mu gukora imiti zitandukanye, by'umwihariko ku ngwara z'ibicurane, ingwara z'amaso. Indimu zikaba ziza ku isonga mu gusukura umubiri.

Amadegede. Bitewe n'agace umuntu aherereyemo hari abayita amadegede ndetse hari n'abayita ibihaza. Ni imbuto zihingwa cyane cyane mu bice byo mu gishanga kuko zidakunda ahantu h'izuba ryinshi cyane mbese hakunda kumirana.

Umusaruro gw'igihingwa c'ibirayi Gukaba ari umusaruro gwakusanyirijwe ahatu hamwe nk'aho gujanywe ku isoko cangwa se guri mu bubiko bwawo, aho bashira ibihingwa cangwa se ibitu bitandukanye kugira ngo bibashe kujanwa ku isoko. Hazwi ku izina rya depo.

Uburyo bwo kunoga icayi bukunda gukogwa bagenda bakuraho amababi gatandukanye g'icayi go hejuru kugira ngo bakijane mu nganda bagitunganye, kijye ku isoko. Icayi rero kikaba gihingwa ahantu hatandukanye muri za Rulindo ndetse n'ahandi hatandukanye mu Rwanda.

Igihingwa cy'ibigori .Bikaba bihingwa mu duce dutandukanye tw'u Rwanda .Ndetse nk'uko bigaragara ku ifoto hari umuhinzi usa nkaho' ari kugenda akuramo ibyibasiwe n'uburwayi kugira bitanduza n'ibindi bigori akabishyira ku ruhande, ndetse ibigori igihingwa cy'ibigori kigira umusaruro ku buryo bugaragara.

Amacunga cane amarongi, zikaba ari zimwe mu mbuto ziryoga cane .Akenshi zikunda kugurishwa mu bice by'imijyi ,kuko abo mu cyaro bamenyereye imbuto zisanzwe, ntago bakunda kuzigura batazizi. gusa n'imbuto ziryoha cane zikunda kugaragara mu bice byo muimijyi .Byumwihariko muri kariyeri cyangwa ahantu hacururizwaga imbuto.

Igihaza kizwi ka utameloni, kikaba giha kiribwa kugirango kibonekemo amazi ahagije cyangwa se intungamubiri ziboneka mu bimera bitandukanye, kikaba ari ari kimwe mu bihingwa bihingwaga ahantu h'igishanga kiba gikungahaye ku mazi cyane.

Abenshi bakizi ku izina ry'igihaza cangwa idegede, kikaba ari igihingwa gihingwaga ahantu h'igishanga cangwa ahantu hari amazi menshi cane kuko gikurura amazi mu mikurire yaco ,ndetse kikaba ari igihingwa kizwiho kuvura ingwara zo mu nda nko koza mu gifu kigakuramo imyanda.

Umuntu urimo gukora igikorwa co gushaka ubwatsi, cangwa igikorwa co kwahira. Akaba ari uburyo abantu bajaga mu kinani cangwa ahantu hari ibyatsi, noneho bakagenda bahira n’intoki cangwa bakoresheje agakoresho kazwi nk’akayuya, bakagenda bakera ubwatsi kugira ngo baze kuha inka, by’umwihariko izororerwaga mu kiraro.

Amapapayi ga kizungu gakaba ari gamwe mu mapapayi gakundaga guhingwa mu gwanda, ndetse gakaba ari amapapayi geraga gakiri hasi, bitandukanye n'andi mapapayi gakundaga guhingwa mu gwanda gwo hambere, aho byabaga ngombwa ko umuntu yurira kugira ngo abashe guca ipapayi, kandi gakera amapapayi matoya ugereranyije n'aga kizungu kuko bigaragara.

Umuntu urimo gucuruza kayote, kayote zikaba ari zimwe mu mboga zikunzwe guhingwa ahantu h'amakoro cane nko mu bice byo mu kinigi ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'igihugu ariko ahegereye ibirunga kuko ari ho hagaragara amakoro, imbere hakaba hari umucuruzi urimo kubicuruza.

Umuganda ku gikogwa c'ubuhinzi. Umuganda kikaba ari igikogwa gikogwaga n'abantu batandukanye bagamije gufashanya by'umwihariko ku bintu byabananiye, bagafashanya bityo bakabikora mu gihe gito kandi nta n'umwe uvunitse cane. Hifashishwaga ibikoresho bitandukanye: amasuka, ibitiyo n'ibindi, noneho abaturage bagahurira ahantu hamwe n'abayobozi babo bagafatanya mu gikogwa c'umuganda.

Igihaza kikaba ari kimwe mu bihingwa bihingwaga ahantu hari amazi gahagije kuko gikogota amazi kugira ngo kibe ca kikaba kinini ndetse kikaba kihariye mu kuvura ingwara zo mu nda.

Igihingwa cy'amatunda, kikaba ari igihingwa gikunda guhingwa mu Karere ka Gakenke, ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'Igihugu, ariko by'umwihariko mu Karere ka Gakeke, kuko ariho usanga gifite isoko cyane, kuko akenshi izo mbuto z'amatunda zihita zijanwa kwa Sina Gerard, akazikoramo umutobe.

Umusaruro gw'igihingwa c'ibirayi gwashizwe ahantu hamwe kugira ngo gujanwe ku isoko, ibi bikunda gukogwa nyuma yo gusarura igihingwa c'ibirayi bakabishira mu mifuka zitandukanye bakabona kuzijyana ku isoko.

Avoka, urubuto rukungahaye ku mavuta, ndetse rukaba ari urubuto ruryoha cyane. Rukaba ari urubuto ruhingwa hagamijwe kugira ngo babone umusaruro w'amavoka ku ntego yo kuzigurisha, cyangwa se ku ntego yo kuzirya mu rugo, cyane ko zikorwamo n'ibintu bitandukanye nk'amavuta yo kwisiga ndetse n'ayo guteka

Umusaruro gw'igihingwa c'ibirayi ibirayi bimeze neza cane ,bigaragarako byahinzwe hakoreshejwe ifumbire nziza imvaruganda ndetse n'ifumbire y'imbora ndetse bikaba ari ibirayi byiza cane byashimisha buri muntu ushobora kubibona, ibi birayi rero iyo bigeze ku isoko usanga abantu babigwanira kuko baba bizeyeko bifite ubuziranenge kandi bijyoshe.

Umuhinzi uhingaga igihingwa c'amatunda, iki gihingwa kikaba gihingwaga mu gwego gwo kugira ngo gitange imbuto zikogwagamo imitobe zitandukanye, cangwa zikogwemo imiti zitandukanye, cane ko igihingwa c'amatunda kiba gikungahaye ku binyabutabire.

Abahinzi bari mu murima gw'amashu, barimo kwerekana cangwa babamo kumurika ishu nk'umusaruro wabo cane ko bigaragara ko ari ishu rinini kandi ryeze neza.

Isoko ricururizwagamo imbuto zitandukanye, hakaba ari uruhande ruba ruriho abaguzi cyangwa abakiriya ndetse n'abagurisha baba bari gucuruza izo mbuto mu isoko.

Imyumbati bimwe mu bihingwa bihingwaga mu Gwanda bizwi cane ko mu bihingwa bitera imbaraga. bikaba bihingwaga ahantu hashyuha kuko ahantu hakonja bidashobora gutanga umusaruro ushimishije

Imyumbati zashizwe cangwa se zatanditswe ahantu ku muhanda kugira ngo bareshe abakiriya bazibone bico bazigure, akenshi bikundaga gukogwa ahantu hanyura abantu benshi kuko abantu bashobora gukurugwa n'ukuntu iyo myumbati igaragara bico bigatuma bazigura, umucuruzi akabona amafaranga.

Amaronji zimwe mu mbuto zifite umwihariko w'ubujyohe, zikaba zikundaga guhingwa ahantu ho mu miji kuko ahantu h'icyaro abantu baba batazisobanukiwe cane, ndetse abantu b'icaro kubera ibintu baba barishizemo byo kuba ibintu bihenze batabikunda, bo iyo baziriye baba bumva zitanabajyoheye. Gusa ni imbuto zijyohaga cane.

Igihingwa cy'ubunyobwa cangwa se ubunyobwa. Muri rusange abantu benshi barabuzi, kuko bukoreshwaga mu guteka amasosi cyangwa gushyirwa mu biryo kugira ngo biryohe. Bukaba buhingwaga bukererera mu gice cyo hasi c'ubutaka, ndetse bukazana n'ururabo hejuru.

Igihingwa c'ibishimbo birebire cangwa by'umushingiriro. Bikaba ari ibishimbo bihingwaga ahantu hatandukanye mu Gihugu c'u Rwanda, hagamijwe kongera umusaruro w'ibishimbo kuko bigira umusaruro uhagije ndetse mwinshi cyane. Bikaba bifasha umuhinzi ubihinga kugira umusaruro utubutse agasagurira amasoko ndetse na we akihaza.

Igihingwa c'amasaka kigeze igihe co gusarugwa. Amasaka ni kimwe mu binyampeke bikorwagamo amafu cane gagatekwamo imitsima ndetse n'ibikoma. Umutsima gwago guzwi nka ruca rukacarara gukaba gwarakundaga gutekwa mu gihe co hambere by'umwihariko mu gihe c'umuganura.

Umuceri ukiri mu murima utegereje gusarurwa. Ukaba ari umuceri ugeze igihe cyo gusarugwa cyangwa se wumye neza ku buryo wasarurwa ukaba wahunikwa cyangwa se ukaba wanikwa ukajyanwa ku isoko.

Imifuka myinshi cane iri mu ubuhunikiro cangwa ahantu habikwaga imyaka yasaruwe, ikaba ari imifuka iba irimo ibihingwa, cangwa se imbuto zitandukanye, cangwa ibinyampeke bitegereje kujyananwa ku isoko.

Umusaruro gw'imiteja gukaba ari umusaruro guboneka nyuma yo guhinga ibishimbo byabugenewe bitoya bitanga umusaruro gw'imiteja. Imiteja zikaba ari zimwe mu mboga zikunda gukoreshwa cane ahantu h'imigi, ndetse zikaba ari imboga zihenze cyane ku isoko.

Umusaruro gw'igihingwa c'ubunyobwa. Ubunyobwa kikaba ari kimwe mu binyampeke gihingwaga cane mu bice by'iburarasirazuba, kuko gikundana n'izuba. Ndetse kikaba ari igihingwa kijya gusa nk'ibishimbo, ariko kikaba kibitsemo amavuta, kikaba gikoreshwaga mu gwego gwo kuryosha ibijyo.

Ingano ni kimwe mu bihingwa bihingwa ahantu h'imisozi miremire cyane, by'umwihariko mu duce two mu majyaruguru, kuko ariho zikunda kwera cyane kuko hagaragara imisozi miremire itandukanye. Zikaba ari zimwe mu binyampeke bikundwa mu Rwanda.

Igihingwa cy'bishimbo gihingwaga ahantu h'igishanga nkuko bigaragara gihinzwe kubuso bunini cane kugirango ngo kizatange umusaruro ,ndetse bigaragara ko citaweho cane kugira ngo umuhinzi azabashe kubonamo inyungu ihagije.

Umusaruro gw'ibigori gwamanitswe ahantu kugira ngo bagurinde ubukonje cangwa ico twakwita kayumidite, bikaba bituma ikigori cumuka neza bico igihe bagiye kugitunganyamo ifu kikaba kitatuma ikigori kigira ifu mbi.

Igikorwa co kugosora ibishyimbo ni igikorwa cakorwaga nyuma yo gusarura bagahura ibishimbo noneho kugira ngo ibishimo bitandukane n'ibishishwa cyangwag se ibisazigwa by'ibishimbo bakabigosora noneho ibishyimbo byiza bikaja ukwabyo ndetse n'ibisagwa bikaja ukwabyo nk'uko bigaragara.

Ahantu cyangwa se ubutaka buhinzweho igihingwa k'ibigori. Kikaba ari igihingwa gisaba amezi atandatu kugira ngo kibe cyeze neza, kandi kikaba ari igihingwa kigira umusaruro ushimishije cyane.

umuntu uri gusarura amasaka, amasaka kikaba ari igihingwa, gikorwamo ibintu bitandukanye, k'inzoga ndetse n'umutobe, uzwi ku'izina ry'umusururu.

Umuhinzi urimo gutanga ubuhamya ku bujyo ahingaga ibigori bye bicyo bigatuma agira umusaruro mwinshi cane kuko bigaragara ku mafoto cangwa se ku ifoto ndetse ico gihe cari igihe ca kovide nayinitini cangwa ca korona, aho abantu bahoraga bambaye agapfukamunwa kugira ngo badaterana ingwara ya korona.

Igihingwa c'ibishimbo bigufi. Bikaba ari ibishimbo bidakeneraga umushingiriro cangwa se ibiti byo kujyaho ariko bikaba bitanga umusaruro gushimishije. Ariko kandi n'ibishimbo bitanavunanye cane kuko umutu ubihinga arushwa no kubigeza mu murima, ubundi akituriza agategereza umusaruro.

Ibishimbo bya nyiramukara bikaba ari ibishimbo nk'ibindi bisanzwe ariko byo bibaga byihariye kw'ibara jy'umukara abenshi bakunda kubyita ibishimbo biteraga umwaku bitewe n'uko bibaga bisa n'umukara gusa tago ariko biri.

Imifuka zirimo ibinyampeke bitandukanye byo kuya birimo ibishimbo, amashaza, amasaka, ibigori, uburo n'ibindi byinshi cane mu gwego go gukwirakwiza cangwa se kwigwizaho bitunga umubiri cangwa se kwigwizaho amafunguro abantu bakeneye.

Ibishimbo bitoya bitegwaga kugira ngo bitange umusaruro gw'imboga cangwa se gw'imiteja, bikaba ari ibishimbo bitegwaga ku buso butoya ariko bigatanga umusaruro ushimishije ,ahanini bisangwa mu turere dutandukanye tw'u gwanda : Rubavu, Musanze ndetse no mu duce tw'intara z'amajepfo.

Ibinyampeke bizwi nk'ingano byashyizwe mu mufuka kugira ngo bihunikwe neza, birindwe kuba byakangirika. Ingano zikaba zifashishwaga mu gukora ibintu bitandukanye nk'imikati ifarine ndetse n'ibindi byinshi.

Umusaruro gw'ibigori guhunitswe. Ibi babikora igihe ibigori byumye bamaze kubisarura bakabishira ahantu hamwe kugira ngo bitaza kwangirika cangwa guhura n'ubukonje bwinshi bikaba byamera cyangwa bigapfapfana bitewe n'ubukonje.

Igihingwa c'amasaka kikaba ari igihingwa gihingwaga mu turere dutandukanye tw'igihugu by'umwihariko mu uburasirazuba, kikaba ari igihingwa kigiraga umusaruro mwinshi cyane ugereranyije n'ibindi bihingwa ndetse tukaba ari tumwe mu utuyampeke dutoya ariko twifashishwaga mu gukora ibindi bintu bitandukanye, nk'urugero gukora ugwagwa, turabizi twese ko bifashishaga ifu ya masaka.

Ibishimbo bya nyagashyimbo, bikaba ari ibishimbo bihingwaga ahantu h'igishanga. Cangwa h'ikibaya ndetse, bikagira umusaruro mwinshi cane ubigereranyije n'ibindi bishimbo. Cane ko bidasaba ibiti cangwa se umushingiriro.

Umworozi w'inkoko z'inyama. Akaba ari umuntu wororaga inkoko kugira ngo abone umusaruro w'amagi ndetse cyangwa se umusaruro gw'inyama. By'umwihariko uyu yororaga inkoko z'inyama kuko bigaragara yari ateruye ikoko imwe, arimo gusobanura uburyo azorora. ibyo ashira mu biryo byazo kugira ngo zibashe gutanga umusaruro mwiza kandi mu gihe gito.

Ubworozi bw'inka z'umukamo; inka z'umukamo zikaba ari inka zorogwaga kugira ngo zitange umusaruro gw'amata ndetse n'inyana muri rusange, cangwa se zibyare izindi nka. Kuko bigaragara hari inka ndetse hari n'undi muntu hasi urimo kuyikama kugira ngo abone gwa musaruro gw'amata, ndetse ikaba ari bizinesi cangwa se umushinga gwunguka mu gihe gito ,cane ko inka ibyarira igihe gito c'amezi icenda.

Inkoko zorogwa mu bujyo bwa kijambere ahantu hisanzuye. Nk'uko bigaragara iyo zorowe mu uburyo bwa kijambere ziba ziri ahantu hamwe, zikagaburirwa ahantu hamwe, ndetse zikaba zitanga n'umusaruro utubutse kuko ziba zitawe ho neza cane.

Ikiraro cyororerwamo amatungo atandukanye, by'umwihariko inka. Zikaba zishyirwa ahantu hamwe hakazitirwa, kugira ngo babone uko bazitaho neza, ndetse zitange umusaruro ushimishije.

Intama, itungo jyorogwaga hagamijwe kuribona ho umusaruro w'inyama ndetse n'uruhu rwayo, kuko gwifashishwa mu gukora imyenda zitandukanye. Rikaba ari itungo rikura vuba kandi mu gihe gito cane.

Ubworozi bw'inka bwari ubworozi bukorerwaga ahantu hanini cangwa ifamu, ndetse mu bujyo bwa kijambere bakubaka ibiraro. Gusa inka nyinshi zikunze kororegwa mu mafamu, kugira ngo zibone umutekano uhagije ndetse n'ubwatsi buhagije kugira ngo zikure neza.

Ubworozi bw'ingurube, bukaba ubworozi buri mu myuga yunganira iterambere ry'igihugu, kuko umwuga w'ubworozi bw'ingurube, butanga umusaruro ku kigero cya mirongo icyenda na gatatu ku ijana, mu Rwanda, cyane kuko ingurube zirya ibintu byose, kandi iboneka ku giciro gitoya cyane.

Amagi cangwa umusaruro gw' amagi. Amagi akaba gategwaga n'inkoko, zaba iza kizungu cangwa iza kinyagwanda. Kagakorwamo ibintu bitandukanye, byaba ibyo kujya bizwi nk'umuleti cangwa se gatekwa mu buryo busanzwe cane ko amagi gakungahaye kuri poroteyine cangwa ibyubaka umubiri.

Itungo rizwi ku izina ry'ingurube cyangwa se abenshi baryita indyabyose, rikaba ari itungo ryororerwa mu kiraro, ndetse rikaba rikungahaye ku mavuta abenshi bakunda kuyakoresha mu bikorwa bitandukanye, ndetse rikaba ari itungo rikura mu buryo bwihuse kandi mu gihe gito.

Amasho y'inka cangwa inka nyinshi, zikaba ari inka zishigwaga ahantu h'ugwuri cangwa ahantu hisanzuye hari ubwatsi bwinshi cane, kugira ngo zibashe kubona ibyatsi bihagije, cane ko ziba zitezweho n'umusaruro mwinshi cane gw'amata.

Umuntu urimo kwita ku matungo g'inkwavu. Inkwavu zikaba ari tumwe mu tunyamaswa tworogwaga kugira ngo dutange umusaruro gw'inyama cangwa gw'ifumbire cane ko inkwavu zororoka mu gihe gito cane ko zibyarira ukwezi kumwe bityo bikaba byatuma umuntu uzorora abona inyungu nyinshi.

Ikiraro cororegwagamo amatungo gazwi ku izina ry'inka, kikaba ari ikiraro cubatse mu bujyo bugezweho cangwa se mu bujyo bwa kijambere, aho amatungo gacungigwaga ahantu hamwe, kugira ngo garindwe ingwara zitandukanye zishobora kuyataka, by'umwihariko gabaga ganagaburirwaga ahantu hamwe.

Umuntu ufashe ihene, bishoboka ko yaba ari nka veterineri. Bigaragara ko asuzuma ikibazo ihene yaba ifite, cyane ko ari gufokasinga cyangwa ari kureba ku manono yayo. Ishobora kuba ifite ikibazo ku maguru.

Ikiraro cororegwagamo inka, cane nk'iyo zivuye mu gwuri kugira ngo babashe kuzikurikirana neza. Bahita bazishira mu kiraro by'umwihariko kikaba gishigwa hagati mu gwuri, kugira ngo nk'igihe inka zigiye kuruhuka cangwa kunywa amazi, zibone uko ziyanywa ziri ahatu hameze neza hatari izuba ryinshi.

Ingurube rikaba ari itungo ryorogwaga kugira ngo ritange umusaruro gw'inyama. Rikaba ari itungo rikuraga rikaba rinini cyane ndetse rikaba abenshi bakunda kuryita indyabyose, kuko rirya ibiryo bikeya ariko bivangavanze bizwi nk'umwanda cyangwa ibisigazwa by'ibiti bitandukanye. rikaba ari itungo ritangaga inyama ndetse n'amavuta.

Inyoni ,zikaba ziri mu bwoko bw'inyamaswa cyangwa se y'udusimba tuguruka mu kirere zikaba zikunda kuba ahantu haboneka ibinyampeke, nk'ingano, umuceri ndetse n'ibindi bitandukanye ,kuko ari byo zikunda kurya.

Ingagi zo mu birunga zisangwa mu gace k'amajyaruguru mu karere ka musanze. Nk'uko bigaragara ku ifoto hariho ingagi nkuru ndetse n'ingagi nto bivuze ko inkuru ari umubyeyi w'intoya, nkuko bigaragara ku ifoto.

Inyoni irimo kubaka icari, cangwa iri gukora ahantu izajya yifashisha igihe co kujyama, cangwa co kuruhuka. Akaba ari ubujyo, zigenda zibohesha ibyatsi, akantu gatoya ko kubamo mu giti, kugira ngo ibashe kuba yifitiye umutekano, mu gihe cya nijoro.

Impyisi ikaba ari inyamaswa ibaga mu ishamba ry'Akagera, akaba ari inyamaswa y'indyanyama ndetse ikundaga kurya inyama zasigajwe n'intare, ahanini ni inyamaswa izwi nk'inyamaswa isuzuguraga cane, kandi ija kwitwara nk'ihene ariko ntoya.

Ubwoko bw'inyoni buzwi nka ndondanga ikaba ari inyoni igendaga igacukura igiti akaba ariho yiturira kuko ari ho hatu iba yizeye umutekano gusesuye ikaba ari inyoni yacukuye igiti ndetse ikaba yarabyariyemo n'abana aho iri kugenda ibazanira ibijyo kugira ngo zikure neza.

Imbogo ni zimwe mu nyamaswa z'inkazi ziri mu Gwanda by'umwihariko muri pariki y'Akagera. Zikaba ari inyamaswa zitagira amahane cane ariko zikayagira igihe hari ikintu kizisagarariye. Zikaba zifashisha amahembe yazo mu kugwana ariko nanone zikaba ari inyamaswa zijya kwitwara nk'inka mu mimerere ndetse no mu miterere.

Inyoni cangwa igisiga kizwi ku izina jy'agaca kikaba ari igisiga kijyaga inkoko cangwa se imishwi z'inkoko n'utundi dusimba tuguruka kikaba kiba mu biti ndetse kikaba kikundira ahantu h'igishanga cangwa se h'umubande.

Imparage. Ikaba ari inyamaswa irishaga ibyatsi, cane cane mu mukenke ndetse n'ahandi hatandukanye, ahantu zikunda kugaragara mu Rwanda ni mu karere ka Nyagatare, kuko ariho hariho pariki yisanzuye, ndetse ibonekamo ubwatsi imparage zikunda cane.

Nyiramwanani inyoni iba mu gishanga cangwa ahantu hari amazi, kuko ikunda kurya udusimba dutoya turimo nk'injereri, amahere ndetse n'utundi, bigatuma yikundira kuba ahantu h'igishanga kuko ari ho ibona ibyo kurya.

Igikona kimwe mu nyoni zifite ibara jy'umweru n'ijy'umukara abenshi bakunda kuvuga ko kiba cyambaye karuvati. Zikaba ari zimwe mu nyoni zijyaga ibintu bitandukanye nk'amavuta, amasabune ndetse n'udushwi tukiri dutoya, by'umwihariko kikaba kizwiho gukunda inyama.

Akanyoni kaguruka kaja ku rurabo ,bigaragara ko kagiye gushakamo ubuki kugira ngo kaburye cane bikunda kuba ku ndabyo zigiramo ubuki mo imbere, aho usanga inzuki ndetse n'inyoni zizikunda cane.

Igisimba co mu ishamba kirishaga ibyatsi byitwa umukenke kizwi nka nyirabuhene. Akaba ari agasimba kazi kwiruka cane, ariko kaba kitwara nk'ihene. Aka gasimba Aho kari akanyantege nke, gakunda kwibasirwa n'ibiza byo kuribwa n'intare, n'impyisi cyangwa se izindi nyamaswa zitandukanye zo mu ishamba.

Ubwoko bw'inyoni buzwi nka nyiramwanane, akenshi bukunda kuba mu gishanga, kuko bukunda kurya tumwe mu tunyabuzima cyangwa se mu udukoko dutoya cyane tuzwi nk'amafi, injereri n'amahere, iyi ikaba ariyo mpamvu y'umwihariko zikundira gutura ahantu h'igishanga.

Inyoni cangwa se igisiga kizwi ku izina ry'igihunyira, kikaba ari igisiga bivugwa ko gitera n'umwaku, cane abanyarwanda bo hambere bacumvaga ni joro bakavuga ko kiri gukungurira umuntu runaka. Kikaba ari igisiga gifite umwihariko wo kureba ni joro, aho abantu cyangwa se ibindi binyabuzima byo bireba ku manywa.

Ubwoko bw'inyoni bukunda kwibera ahatu mu gishanga kuko bukunda kurya udukoko tuba mu mazi, nk'uduhera dutoya cangwa nk'injereri n'utundi dukoko twinshi tuba mu mazi. Iyi nyoni rero ikaba yikundira kwibera ahatu h'igishanga kuko ariho ibona ibyo kurya bihagije.

Ubwoko bw'inyoni buzwi nk'inuma. Inuma ikaba ari itungo ryorogwaga ndetse rikaba rikundaga kwibera ahantu hari umutekano cangwa hari umutuzo. Hari inuma ziba mu kinani, ndetse hari n'inuma zorogwaga mu mazu kugira ngo zitange umusaruro gw'inyama cyangwa se amagi.

Igishuhe cangwa imbata yo mu mazi ikunda kwibera ahantu h'igishanga hatekanye. Kuko ikunda kurya ibinu by'udusimba dutoya nk'iminyorogoto, injereri n'ibindi bitandukanye.